UNICEF ni ikigo gishinzwe gufasha abana bakiri bato badafite ubushobozi, bakabishyurira amashuri bakabaha n'ibikoresho bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Guha abana amata ni byiza kubera ko hari intungamubiri yiyongera mu mubiri w'abana bakabasha gukura neza batagwingiye, ndetse n'abantu bakuru.

Iyo abantu bateraniye ahantu, baba bari mu nama bari kwiga ku kintu bashaka kuzakora cyangwa kuzakorera abantu kugira ngo kibafashe mu buzima bwabo.

Aha ni nk'ihuriro ry'amazi ya WASAC, igemura mu ngo zitandukanye cyangwa mu bigo bitandukanye.

Kujya kuvoma kandi ukavomera mu bikoresho bifite isuku, ni byiza kubera ko ayo mazi iyo uyakoresheje ibintu byo mu rugo, usanga bifite isuku nko kuyatekesha cyangwa kuyafurisha n'ibindi bikenerwa mu rugo.

Iyo abaturage babona amazi meza cyangwa bagakoresha amazi meza, bibarinda kurwaragurika indwara nyinshi zitandukanye kandi bakagira n'isuku.

Iyo abantu bateraniye ahantu hamwe baba bari kwiga ku kintu kimwe bahuje, bakagira umuntu ubayoboye ubereka ingero zo kuri icyo kintu bari kwigaho.

Gukingiza abana ni ingenzi kubera ko hari indwara atarwara ngo zibe zamuvutsa ubuzima igihe yakiriye urwo rukingo cyangwa inkingo asabwa nk'umwana.

Ibara ry'umweru, umuhondo n'umukara, hagati hakabamo akantu kameze nk'inyenyeri, bikunda kugaragara cyane mu madarapo y'ibihugu bitandukanye cyangwa umwenda wo kwambara.

Isuku ku bikoresho byo mu rugo no ku mubiri w'umuntu ni byiza kubera ko birinda indwara nyinshi zitandukanye zo mu mubiri w'umuntu.

Kuvoma amazi meza ku bana n'ababyeyi n'abagabo, ni byiza kubera ko iyo bayakoresheje ari meza bibarinda indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri wabo, ndetse no ku mubiri inyuma.

Unicefu ni umuryango wita ku bana bakiri bato, ukabishyurira amashuri, ukabarinda imirimo ivunanye, ukabaha n'ibikoresho bakenera mu rugo.

Kwita ku bana bakiri bato ni byiza kubera ko aba ari u Rwanda rw'ejo hazaza kubera ko aribo baba bazavamo abayobozi b'inzego zose zitandukanye.

Ahantu hateraniye abantu harimo inzego z'umutekano z'Umurenge, baba bari kwigisha abantu uko bagomba kwitwara mu baturage n'ibyo bagomba kubigisha kugira ngo bagendere ku byo ubuyobozi cyangwa amategeko ya Leta asaba.

Ahantu hateraniye abantu, harimo abafite ibikoresho byo kwa muganga, ni abantu baba baje gufasha abantu kumenya indwara ziri mu mubiri wabo, kugira ngo bazajye kuzikurikiranira kwa muganga.

Abamama na bo ni abantu basigaye ari abayobozi mu nzego nyinshi zitandukanye, kandi na bo bazi kuyobora neza nk'abapapa cyangwa abagabo.

Iyo abantu bagiye kwa muganga mu bitaro bya Leta, usanga ari benshi bategereje kwakirwa cyangwa guhabwa serivisi baje basaba, bategereje kuzihabwa.

WASAC ni ikigo cya leta, giha abaturage amazi meza, yo gukoresha mu ngo zabo, cyangwa mu mirimo yabo ya buri munsi, yo mu rugo, cyangwa y'aho bakorera.

Iyo abantu bahuriye ahantu hamwe nko mu nama, imbere haba hicaye abantu babayoboye cyangwa b'abayobozi bagiye kuyobora iyo nama bagiye kwigaho.

Ababyeyi batwite cyangwa ababyeyi barwaye, baba bagomba kwisuzumisha uko umuvuduko wabo w'amaraso umeze cyangwa uhagaze kugira ngo bikurikirane igihe yumva atameze neza.

Ni byiza kudakoresha abana ibintu bisaba imbaraga ziruta izo bafite, kubera ko bituma bagwingira, ntibagire igikuriro gikwiriye.

Amazi y'isoko ni amazi meza kandi abantu bakenera cyane cyane kuri ba bandi badafite ubushobozi bwo gutunga robine mu ngo zabo.

Ni byiza guha abanyeshuri amazi meza asukuye yo kunywa, kubera ko abana b'abanyeshuri ari u Rwanda rw'ejo hazaza, baba bagomba kurwitaho bakabakorera amasuku bakabaha n'amazi meza.

Kwa muganga niho hakunda kuba abantu ubona bakomeretse batameze neza kubera ko baba baje kwikurikirana kwa muganga kugira ngo bamererwe neza.

Gutoza umwana gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune nyinshi kandi akabikora akenshi, ni byiza kubera ko birinda abana indwara nyinshi zandurira mu biganza.

Umwana n'umubyeyi, ni abantu bagirana urukundo cyane, ku buryo umubyeyi ahora yiyumvamo urukundo ku mwana n'ifoto yabo bashobora kuyifashisha mu buryo bwo kugira ngo berekane urukundo mu bantu.

Kukaraba intoki n'amazi meza, n'isabune, cyangwa gukarabya umwana, ni byiza kubera ko biturinda indwara nyinshi zandurira mu ntoki, cyangwa mu matembabuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu nko mu isoko cyangwa kwa muganga, buri wese afite ibyamuzanye bitandukanye n'iby'undi cyangwa bikaba bibahuriyeho bose.

Abantu bageze mu zabukuru bagomba kwipimisha umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zo mu mubiri zose kugira ngo bamenye uko bahagaze, kubera ko imibiri yabo iba ifite intege nke.

Abaturage bateraniye hamwe, ni koperative, barimo bashaka kwiteza imbere cyangwa kuzamura iyo koperative yabo cyane.

Iyo abana bavomye amazi mabi, bakayakoresha cyangwa bakayajyana mu rugo bakayatekesha bakayanywa, bitera indwara cyangwa umwanda ku mubiri wabo.

Gusura u Rwanda ni byiza kubera ko hari ibikorwa byinshi biryoheye amaso ku banyamahanga batahazi cyangwa batari bahasura ngo babimenye.

Iyo umwana yarwaye uramufata ukamujyana kwa muganga, bakamukurikirana noneho akamusuzuma akamuha imiti noneho mugataha umwana akazamererwa neza.

Abanyeshuri ni byiza kubatoza gukaraba intoki cyangwa kugira isuku kubera ko bibarinda kurwara indwara zitandukanye, zandurira mu ntoki zabo.

Kuvoma amazi yo hasi atandukanye nk'ibishanga cyangwa ibiyaga, ukayakoresha kandi ubona asa nabi atera indwara nyinshi zitandukanye.

Kwikingira cyangwa kwivuza indwara zitandukanye ni byiza, igihe wasanze umuganga akagutera agashinge, akaguha imiti, ukagenda ukamera neza, wayinyweye kandi ku gihe.

Iyo umwana akarabye intoki amazi asa neza ndetse agakaraba umubiri we wose bimurinda kurwaragurika indwara nyinshi ziterwa n'umwanda.

Kujyana umwana ku muganga akamuha imiti, ni byiza kubera ko aba arimo aramufasha kumukingira indwara nyinshi zitandukanye zakwibasira uwo mwana ukiri muto.

Ahantu hahuriye ababyeyi bafite abana bakiri bato cyane b'uduhinja, baba baje gufata urukingo cyangwa guhesha abo bana inkingo leta yabageneye kugira ngo batazagira ikibazo mu gihe babayemo.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune nyinshi birinda indwara nyinshi zandurira mu biganza by'umuntu, ku buryo aramutse akoze no ku wundi mubiri atakandura indwara zanduriye mu biganza bye.

Amazi ni ikintu abantu bakenera muri rusange, abana, abantu bakuru, kubera ko tuyakoresha duteka, tuyanywa, tuyamesesha ndetse tuyakoresha n' n'indi mirimo myinshi yo mu rugo, ni ingenzi ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, yaba umwana, umuntu mukuru ndetse n'umukecuru.

Gukaraba intoki n'amazi meza ni byiza kubera ko hari indwara nyinshi zandurira mu biganza ushobora kuba watera ku wundi mubiri izindi ndwara biturutse mu biganza.

Gukaraba intoki n'amazi meza ni byiza kuko birinda indwara nyinshi cyane zandurira mu biganza by'abantu kuko iyo bisa neza bituma n'ahandi izo ndwara zitahafata.

Gufasha abana batishoboye ni byiza kubera ko baba badafite ubwo bushobozi bwo kugira ngo babone icyo bifuza cyangwa babe bakibona no ku babyeyi babo.

Abaganga bishyira hamwe mu cyumba cyabugenewe bagiye kuvura umuntu cyangwa kumukiza indwara iri mu mubiri, bakiherera bakamuvura bakayimukiza akamera neza.

Gutoza abana b'abanyeshuri gukaraba intoki, kugira isuku mu biganza byabo no kunywa amazi meza ni byiza kubera ko bibarinda kurwaragurika indwara zitandukanye zandurira mu biganza.

UNICEF ni umuryango ufasha abana batishoboye kubishyurira amashuri no kubaha ibikoresho bimwe bakenera mu buzima bwa buri munsi, nk'imyambaro n'byo bigana, nk'amakayi n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Yunisefu ni umushinga ufasha abana batishoboye kuba bajyanwa ku ishuri cyangwa ukabafasha mu bikoresho bakenera bya buri munsi ababyeyi babo batabasha.....

Iyo abamama bahuriye ahantu, baba bari mu ishyirahamwe ryo kwiga ku kintu cyabateza imbere cyangwa cyatuma bava mu rugo bagakora.

Iyo abantu bishyize hamwe bagafata urwibutso rw'ifoto, ni ukugira ngo bazibuke igihe batazaba bakorana cyangwa batari kumwe nk'abaganga bagenda bahinduranya kujya gukorera ahantu hatandukanye.

Amazi meza ni ubuzima ndetse bwiza kubera ko iyo unyweye amazi meza kandi menshi bikurinda indwara nyinshi zo mu mubiri kandi ni ikintu gikenerwa mu baturage cyane kubera ko bayatekesha, bakayoga, agakenerwa mu bijyanye n'amasuku yo mu rugo no mu kazi muri rusange.

Iyo abantu bateraniye ahantu hamwe biga ku kintu bashaka kuzakora cyangwa bashaka kuzageza ku bantu, mbere yuko bagikora bakigaho.

Iyo abadamu bishyize hamwe, bagakora inama ibateza imbere, bagatangira icyo gikorwa, bakagikora kikabateza imbere, barishima, bakanezerwa, bakabyina.

Gukingira abana cyangwa kubakingiza ni byiza kubera ko ahantu hahurira abanyeshuri benshi baba bafite indwara nyinshi zitandukanye zatuma n'abatazirwaye bakandura.

Ni byiza gutoza abana b'abanyeshuri gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, kubera ko hari indwara nyinshi zandurira mu biganza by'abana, zishobora kubateza ikibazo.

Abana batuye mu byaro usanga bakunda kugira umwanda mwinshi ku myenda bambaye no mu maso n'ibirenge, kubera kutitabwaho cyane cyangwa kutabatoza amasuku.

Iyo umuntu yabuze nk'umubyeyi cyangwa umuvandimwe we arababara mu maso agatukura ukabona isura ye irababaye cyane bikagaragara ahantu hose mu maso he.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ni igihe abantu baba bari kwiga ku kintu bashaka kuzakora cyabateza imbere cyangwa cyateza imbere urubyiruko, n'abantu bakuru muri rusange.

Umuntu ukorera nabi abandi agakora urugomo akanywa ibiyobyabwenge, akangiza urubyiruko, nk'ubuyobozi bubishinzwe nka polisi cyangwa ribu ndetse n'izindi nzego z'umutekano baba bagomba kumuhana kuko ibyo aba akora biba byangiza urubyiruko.

Inzu iriho icyapa igaragaza ko ikorerwamo nk'ibikorwa runaka bya leta cyangwa umuntu ku giti cye, hashobora gukoreramo Umudugudu, Akagari, Umurenge cyangwa iby'umuntu.

Abantu bakunda kwishyira hamwe bagafata urwibutso rw'amafoto, ni abantu baba barangije igikorwa nk'inama, cyangwa akazi kugira ngo basigarane urwibutso rwayo.

Iyo ufite indangururamajwi, uba uri kwigisha abantu, cyangwa uri kubakoresha inama y'ikintu ushaka ko bazakora cyangwa muri kwiga ku kintu mushaka kuzakora.

Abaturage ni abantu bakunda gutekera ku nkwi ndetse ni abantu badakunda gusukura amasafuriya batekeramo, bishatse kuvuga ko haba hakenewe inyigisho ijyanye no gusukura mu nkengero y'imijyi mu byaro, hirya no hino.

Iyo abantu bishyize hamwe, baba bagira ngo bige ku kintu bakeneye kuzakora cyangwa kuzakorera abantu, bakishyira hamwe bakiga kuri icyo kintu, uko kizakorwa n'uko bazagikora.

Kwigunga cyangwa kwiheba ni indwara itera umwana w'imfubyi cyangwa ufite ibibazo kubera kwitekerezaho cyane kubera ko aba abona nta babyeyi cyangwa hari icyo yabuze mu buzima bwe.

Iyo umuntu atangaye cyangwa akagira ibyago, yifata mu maso kubera akababaro agize kandi kamutunguye.

Umubyeyi akenshi iyo ari guteka, abana baba bamushagaye, kubera ko abana na bishimira ababyeyi babo cyane, kandi ntanubwo baba bashaka kujya kure cyane y'ababyeyi babo, mbese bishimira kuba bari kumwe na bo.

Iyo ushaka kuganira n'abandi bantu kandi hari icyorezo kiri mu baturage murikingira mukambara n'agapfukamunwa, noneho mukabona kuganira kugira ngo amatembabuzi yanyu adahura mukanduzanya.

Polisi ishishikariza abantu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina gore n'abana, kubera ko igira ingaruka ku kiremwamuntu icyo ari cyo cyose, kubera ko guhohoterwa atari byiza kumenywa n'umuntu uwo ari we wese.

Igihe abantu bishyize hamwe bakifotoza, ni ukugira ngo basigarane urwibutso rw'igihe bazaba batakiri kumwe cyangwa batagikorana, noneho bakishyira hamwe bakifotoza kugira ngo basigarane urwibutso.

Abana b'abanyeshuri, igihe kimwe baba bakeneye kujya ahantu hamwe, bagaterana, bakishima, bagakina, bakaririmba kugira ngo baruhure mu mutwe, noneho bajye basubira mu masomo yabo bameze neza.

Guha inyigisho ababyeyi bafite abana bakiri bato, ni byiza kugira ngo bajye bagaburira abana ibiryo bifite intungamubiri ndetse n'imbuto kugira ngo abana bakure neza, batagwingiye.

Abantu bishyize hamwe, bakurikiye umuntu umwe uri kubigisha uko bagomba kwitwara cyangwa kwita ku ndwara zo mu mutwe ku bantu bose, abana n'abantu bakuru.

Ababyeyi, cyane bo mu ntara, ni bo bakunda guhera abana ibere mu muhanda cyangwa bakaribaha mu gihe bari mu turimo dutandukanye, ntagire ikibazo, akamuha akiyonyera.

Ni umupira abantu bambaraga nk'inifomu mu gihe cy'inama mpuzamahanga yabereye mu Rwanda, iyo mipira bayambaraga nk'inifomu igaragaza uri mu kazi cyangwa wiyitabiriye.

Iyo umwana ari imfubyi, nta babyeyi agira cyangwa bamuhohoteye, bamugiriye nabi, agira agahinda akarira, akabona nta cyerekezo afite ariko nyamara agifite.

Igihe abanu bishyize hamwe, bakurikiye umuntu umwe, baba bari mu nama biga ku kintu bashaka kuzakora, cyangwa bashaka kuzafasha abantu, kugira ngo bakigereho.

Iyo umuntu akora ibintu bitari byiza akarwana, agakora urugomo, agatukana, akanywa ibiyobyabwenge, ibintu mbese bihabanye n'ibyo amategeko asaba baramufunga bakamuhana kugira ngo abicikeho.

Gukorera isuku amenyo n'amazi meza n'iyindi miti yabugenewe y'amenyo, ni byiza kubera ko hari indwara nyinshi birinda y'amenyo ku muntu uwo ari we wese.

Gutoza umwana gusukura amenyo n'isuku ku mubiri we ni byiza kubera ko abikurana bikamurinda n'indwara nyinshi z'amenyo cyangwa ku mubiri we.

Iyo umuntu yarwaye amenyo ajya kwa muganga kugira ngo bamukurikirane, bamuhe imiti akire amere neza.

Iyo wagize ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, wegera abaganga bakagufasha kuyavura, cyangwa kuyakuramo igihe babonye afite ikibazo, gikomeye.

Gutoza abana bakiri bato gusukura amenyo n'amazi meza n'imiti yabugenewe, ni byiza kandi bibarinda kurwaragurika indwara z'amenyo.

Icyumba kirimo ibikoresho nk'ibi ngibi, ni ahantu abaganga basuzumira abarwayi nk'amenyo n'ibindi bitandukanye.

Gufata ibintu byose ubonye ugashyira mu menyo nk'indodo, cyangwa ibindi bintu byose bishobora kuba byakwangiza amenyo yawe ni bibi, kubera ko byayatera gukomereka cyangwa kuva amaraso mu buryo budasobanutse akaba yakwangirika.

Iyo umuntu yagiye kwa muganga kwivuza amenyo, bamucisha mu cyuma kugira ngo barebe ikibazo amenyo ye afite, iyo bamaze kubona ikibazo kibitera, baherako bamuvura bamukurikirana kubera ko icyuma kiba cyagaragaje amenyo ye yose, amazima n'afite ikibazo.

Igikoresho kimeze cyangwa gikoze nk'amenyo y'abantu, ni icyo kwifashisha ku muntu cyangwa ku munyeshuri uri kwiga kuzavura amenyo kugira ngo ajye abasha kubimenya no kubikoresha.

Si byiza ko wafata ibintu byose ubonye nk'imigozi, ibyuma, ukaba wabishyira mu menyo yawe, kubera ko bishobora kwangiza amenyo yawe ukaba wayarwara.

Gufata imigozi ugashyira mu menyo cyangwa ukaba amenyo wayakoresha ibintu bifite imbaraga nyinshi, ni bibi kubera ko birayangiriza akaba yakuka cyangwa akavunikamo kabiri, bikaba byatera indwara amenyo.

Iyo usuzumishije umwana amenyo hakiri kare, ntiyangirika kandi ntanubwo ashobora kumuteza ikindi kibazo gikomeye nko kurwaramo kanseri n'izindi ndwara zitandukanye kubera ko uba wamujyanye kwa muganga, umuganga akamukurikirana hakiri kare, akamuha imiti mu gihe abonye harimo ikibazo, umwana akamera neza.

Kuvuza umwana amenyo cyangwa kumusuzumisha kenshi bituma umwana atarwaragurika indwara zitandukanye zo mu kanwa ke.

Igihe umwana w'umukobwa yasezeranye imbere y'abantu ndetse n'imana cyangwa umwana w'umuhungu yasezeranye, abakecuru n'abasaza n'imiryango itandukanye barakenyera, bakitabira icyo kirori cy'umwana cyangwa ibindi bikorwa bindi bya leta na byo barambara bagakenyera.

Iyo abantu bariye ibiryo byiganjemo imboga cyane, ni byiza kubera ko bituma umuntu agira intungamubiri nyinshi mu mubiri we kandi akagubwa neza.

Abasaza ni abantu bakunda kunywa imiti cyane kubera ko umubiri wabo ukunda kurwaragurika kubera ko nta ntege uba ufite umubiri wabo.

Abantu bageze mu zabukuru, ni abantu baba bakeneye umunezero muri bo cyangwa ibyishimo, bagakunda, bagakunda guseka kugira ngo bamererwe neza muri bo.

Abantu bageze mu zabukuru cyane kandi barize cyane kera mbere yuko bagera mu zabukuru, ni abantu bakunda gusoma ibitabo cyane, bagakunda kuba ahantu hatuje cyane, kubera ko badakunda urusaku.

Abaturage ni abantu bakunda kwishyira hamwe kugira ngo baganire ku kintu wenda bari guteganya gukora.

Umubyeyi n'umwana cyangwa umurezi n'umwana, ni abantu bagomba kugirana urukundo cyane bitewe n'icyo bahuriyeho nk'umubyeyi yaba ari umubyeyi w'umwana cyangwa umurezi ari umurezi urera umwana, na we aba ari umubyeyi we. Ni abantu baba bagomba kugirana urukundo cyane n'ubusabane.

Abantu bageze mu zabukuru cyane, bakenera abaganga cyane kugira ngo babakurikirane kubera ko imibiri yabo iba ifite intege nkeya.

Igihe umusaza n'umukecuru bishimanye, ni byiza kubera ko byigisha n'abo babyaye kubana neza bishimanye, nta mwiryane ubamo muri bo.

Umuganga n'umurwayi ni abantu bagomba kugirana ubusabane hagati yabo, ari babiri, kugira ngo babashe kumvikana neza ku ndwara uwo murwayi aje afite.

Tumenyereye cyane ko abantu b'abagabo bakenyeye, ari abantu bavugira inka cyangwa bari mu birori by'abana babo nk'ubukwe n'iyindi mihango itandukanye ya kinyarwanda.

Abantu bari mu zabukuru nk'abasaza n'abakecuru, ni abantu bakunda kuba banywa imiti cyane kubera ko imibiri yabo iba yaracitse intege kandi ifite indwara nyinshi zitandukanye kubera imyaka baba bagezemo.

Iyo umuganga agiye kuvura umurwayi, urugero nk'imvune abanza kureba aho yamweretse ababara, akahakoresha imyitozo kugira ngo abone aho ahera amuvura cyangwa amukurikirana.

Abasaza ni abantu baba bakenewe kwitabwaho cyane muri serivisi zose bakeneye, kubera ko ari abantu baba bafite intege nkeya cyangwa umubiri wabo ufite intege nke.

Umuganga ni umuntu ufite imbaraga kandi ufite ubushobozi, kubera ko iyo umuntu yarembye ameze nabi amuvura akamusubiza mu buzima buzima.

Kwikingiza ni byiza kubera ko bituma utarwaragurika cyangwa utandura indwara zitandukanye zaba zateye mu bantu muri rusange.

Ahantu hateraniye abantu batandukanye, biga ku kintu, harimo inzego z'umutekano, imbere hari ababayoboye, baba bari kwiga ku kintu bashaka kuzakora.

Inama ni igihe abantu bishyize hamwe bari kwiga ku kintu runaka, kigomba kuzakorwa, hakavamo umuntu umwe uyoboye iyo nama.

Iyo abantu bishyize hamwe bagafata urwibutso rw'amafoto, ni ukugira ngo basigarane urwibutso rw'inama bigeze gukora biga ku kintu runaka.

Iyo abantu bishyize hamwe bagafata ifoto y'urwibutso, aba ari abantu bavuye nko mu nama kwiga ku kintu bashaka gukora.

Iyo abantu bahuriye ahantu hamwe, kandi ari benshi, harimo inzego z'umutekano, baba bagiye kwiga ku kintu cyateza imbere abaturage, cyangwa kitababangamira, noneho imbere hakicara abayobozi, bayoboye iyo nama.

Igihe abantu bishyize hamwe ni ukugira ngo bige ku gikorwa runaka biyemeje kuzakora cyangwa kuzakorera abantu.

Abakecuru cyangwa abasaza bageze mu zabukuru ni abantu bakunda kurwaragurika amaso cyane kugeza aho bayabaga, bakabavura kugira ngo bamererwe neza.

Kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, ni byiza cyane kubera ko ari mbi, tukayirinda dukaraba intoki n'isabune nyinshi n'amazi meza n'isuku ku mubiri kugira ngo twirinde iyo ndwara cyane.

Ni byiza ko umuntu yahora yisuzumisha kenshi kugira ngo yicare azi neza ko umubiri we nta kibazo ufite yasanga afite ikibazo agatangira kwikurikirana hakiri kare, bitararenza urugero rw'iyo ndwara yasanga afite.

Abantu iyo bahuriye ahantu hamwe, hari ababayoboye bicaye imbere bumva amabwiriza bari kubaha, aba ari ikintu bari kwigaho kandi bashaka gukora.

RBC ni ikigo gishinzwe gukurikirana indwara nshyashya zaje mu gihugu cyangwa icyorezo cyateye mu baturage, bagakingira abaturage, kikanabaha n'ibyangombwa bigaragaza ko bakingiwe iyo ndwara.

Ahantu hahuriye abantu benshi bakurikiye umuntu umwe, baba bari guhabwa amahugurwa yuko bagomba kuzajya bakora neza icyo kintu uwo muntu ari kubigisha.

Biyabete ni indwara yibasiye abantu, cyane ku bantu bakuze baba bagomba kwikurikirana igihe bazi ko bafite iyo ndwara kugira ngo itabangiza ibice by'umubiri bimwe na bimwe.

Ibitaro ni ahantu abarwayi barwarira ariko badataha baryama aho ngaho, noneho abaganga bakabakurikirana, baba aho ku bitaro.

Isange One Stop Center, ni aho bakirira abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yaba abana b'abakobwa cyangwa ab'abahungu ndetse n'umuntu uwo ari we wese hatabayemo ubwumvikane.

Intebe nk'iyi ikunda kuba mu bitaro, bayifashisha kuyicazaho abarwayi bagiye gusuzuma indwara zitandukanye.

Ibyuma nk'ibi bikunda kuba kwa muganga, babyifashisha mu gupima abantu cyangwa gusuzuma abantu nk'amaso n'izindi ndwara zitandukanye.

Kwa muganga ni ahantu hakirirwa umuntu wese uje ahagana atameze neza, arwaye cyangwa yakomeretse, muri make umubiri we utameze neza.

Iyo abantu bambaye gutya birinze cyane, haba hari icyorezo cyateye mu gihugu, baba bagira ngo bavure abaturage, na bo bikingiye kugira ngo icyo cyorezo kitabageraho.

Komferensi ni igihe abantu bahuriye ahantu, ari benshi, bagakora inama, bari kwiga ku kintu gishobora kuzateza imbere abantu.

Ni ibitanda abarwayi baryamaho, bafite indwara zitandukanye, cyangwa ababyeyi baje kubyara, ndetse abaganga bakabahasanga, baje kubakurikirana.

Iyo umwana bamujyanye kwa muganga aba yarwaye atameze neza, bakamushyira muganga kugira ngo abashe kumukurikirana, amenye iyo ndwara arwaye ivurwe, umwana amere neza.

Mediasol pharmacy ni ahantu bacuruza imiti abarwayi bifashisha kugira ngo bamere neza, yaba abana cyangwa abantu bakuru, bose bayihabona bakayihagurira, bakamera neza.

Ikigo nderabuzima cya Nyarugenge, ni ahantu hakirwa abarwayi cyangwa ababyeyi baje kwibaruka.

Hopital la Croix du Sud ni ibitaro by'umuntu ku giti cye ariko bifasha abantu barwaye bakabavura, bakabitaho, bakabarinda indwara baba bafite zibarembeje.

Abaganga ni abantu baba bagomba kwigisha abaturage uko bitwara igihe yaba yanduye indwara, ishobora kumuteza ikibazo ku buzima bwe.

Kwa muganga ni ahantu hakunda kuba amamashini nkaya ngaya asuzuma imitima y'abantu uko itera cyangwa udutanda baryamaho bari kubakurikirana n'utumeza bashyiraho imiti yabo igihe bari kubakurikirana.

Umwana iyo yarwaye uramufata ukamujyana kwa muganga, noneho umuganga akareba ikibazo umwana yagize akamukurikirana akamuvura agakira.

Ikigo cy'abanyeshuri, cyangwa ahantu bakirira abarwayi, ni ahantu haba hari amazu atandukanye, cyangwa ubusitani kugira ngo abo barwayi babashe kuruhukira muri ubwo busitani, igihe bategereje ababafasha.

Nyanza hospital ni ibitaro bigana abarwayi bafite indwara zitandukanye, baje kuzisuzumisha cyangwa kuzivuza kugira ngo bazikire.

Abantu bambaye udupfukamunwa cyangwa amataburiya ndetse n'ibikoresho nk'ibingibi ni ibintu tumenyereye nko kwa muganga bakoresha mu buryo bwo kuvura abantu cyangwa kubasuzuma indwara barwaye.

Ahantu bacuruza ibirahure by'amaso cyangwa amadarubindi, abantu bahagana baje kugura ibyo birahure igihe muganga yabandikiye amadarubindi kugira ngo bahindure ibirahure bashyiremo ibishyashya, bamere neza kuko biba birimo umuti utuma bareba neza.

University teaching hospital of Butare. Ni ibitaro byigishirizwamo abana bari kwiga ubuganga cyangwa bashaka kuzaba abaganga.

Ahantu bavurira amaso, ni ihuriro ry'abantu bafite ikibazo cy'amaso gusa baje kugira ngo abaganga babakurikirane bamere neza.

Ikigo nderabuzima ni aho bakirira abarwayi cyangwa indembe zaje zihagana kugira ngo babafashe mu kubavura igihe bafite ikibazo cy'umubiri cyangwa cyo mu mubiri, bakabaha imiti bakamera neza.

Ahantu bakaraba cyangwa bashobora gukarabira intoki, ni ahantu hagomba kuba hari isuku cyane kandi hasukuye kugira ngo bidatera indwara ziterwa n'umwanda.

Ahantu hateye gutya cyangwa hameze uku, ni ahantu aba ari nk'uruganda rukorerwamo nk'ibiribwa cyangwa imyambaro n'ibindi.

Poroguresi famasi ni ahantu bacuruza imiti y'abantu bose bakenera igihe barwaye cyangwa amavuta yo kwisiga ya natureri.

Uburiri umurwayi aryamaho, arembye, cyangwa atanarembye bikabije, n'imashini ipima ubuhumekero bw'uwo murwayi agezeho, kugira ngo abashe gukurikiranwa neza n'abaganga, bifashishije iyo mashini y'ubuhumekero.

Farumasi ni ahantu hacururizwa imiti ivura abantu bafite indwara zitandukanye, umuganga akabandikira imiti bakajya kuyishaka muri farumasi.

Umurwayi uri mu bitaro aba agomba kwitabwaho n'abaganga kugira ngo indwara yaje kwivuza ikurikiranwe akire amere neza, asubire mu rugo nta bundi burwayi afite bwatuma asubira mu bitaro cyangwa aremba cyane.

Ibyuma nk'ibi bikunda kuba mu bitaro cyangwa kwa muganga ahantu abarwayi bivuriza cyangwa abaje kwisuzumisha indwara bafite mu mubiri.

Izi ni gaze zishobora kongerera abantu umwuka mubi, mu bitaro cyangwa bari kwa muganga, abaganga bifashisha bari kuvura abantu cyangwa bongerera abantu umwuka ku bawubuze.

Ahantu havurirwa abana usanga abaganga baramanitsemo udupupe, ibisimba, utuntu tunezeza abana cyane kugira ngo babashe kubavura neza barangaye cyangwa babarangaza kugira ngo batarira.

Pediatri ni umuntu uvura abana indwara, zitandukanye, akabitaho, akabamenya, ariko akamenya abana bonyine, abantu bakuru batarimo.

Kigina Health Center ni ahantu abarwayi baza kwisuzumisha indwara bafite ngo babavure, cyangwa ababyeyi baje kwibaruka bakabasha kubafasha kugira ngo bakemure ibibazo by'uburwayi bafite.

Icyuma nk'iki bakifashisha igihe bagiye gusuzuma umurwayi nk'imvune cyangwa ikibazo afite mu mubiri mo imbere, bakamukurikirana bakakimenya.

Kingi Fayisali hosipito ni ibitaro bya Leta, bifasha abarwayi barembye kandi batanarembye cyane ariko bikabafasha mu buryo bwo kugira ngo bamererwe neza.

Ibitaro, ni ahantu tujya kwivuriza indwara nyinshi zitandukanye, mu mubiri wacu igihe tutameze neza cyangwa twarembye. Bakadufasha, tugakira.

Ni ahantu umurwayi aryama, umuganga agiye kumusuzuma, cyangwa kumucisha mu cyuma, kugira ngo arebe indwara afite mu mubiri mo imbere.

Udutanda abarwayi badukenera iyo bari mu bitaro, abaganga baje kubitaho cyangwa gukurikirana indwara barwaye, baje no kubaha imiti ijyanye n'indwara bafite.

Ahantu nk'aha hari umwanya uhagije, ni ahantu abantu bakunda gukorera siporo cyane bisanzuye kugira ngo bamererwe neza mu mubiri.

Ni ahantu babika amaraso yatanzwe n'abagiraneza, kugira ngo azafashwe, ku bantu babuze amaraso, cyangwa babaze, bakabongerera amaraso, bakamera neza.

Ahantu haba hari indembe cyane, ni kwa muganga kandi ni ahantu hatagerwa n'abantu benshi kubera ko haba hari indembe cyane kandi zikeneye guhumeka umwuka mwiza.

Centre De Sante cyangwa kwa muganga ni ahantu hahurira abantu bafite ibibazo bitandukanye, barwaye indwara zitandukanye, zirimo iz'uruhu cyangwa mu mubiri ndetse no ku mubiri muri rusange.

Imyitozo cyangwa kugorora ingingo z'umubiri ni byiza kubera ko bituma hari indwara nyinshi utarwara kubera ko uba wakoze siporo kenshi.

Siporo ku bana b'abakobwa bakiri bato, ni nziza iyo bayikoze bakiri batoya, kubera ko bibarinda indwara nyinshi mu mubiri, bikabarinda n'ibinure byinshi mu mubiri wabo.

Siporo ni nziza ku gitsina gore cyangwa ku bana bakiri bato b'abakobwa, kubera ko bituma batagira umubyibuho mwinshi ukabije, kandi bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Iyo umwana ukiri muto anyweye amazi meza kandi menshi, ni byiza kubera ko bimurinda indwara nyinshi zitandukanye zo mu mubiri we nk'impyiko n'izindi zo mu nda zitandukanye.

Umuntu ukora siporo cyane akanywa n'amazi menshi agira ubuzima bwiza, akagira umubiri ukomeye, akagira ubuzima buzira indwara zitandukanye, igihe cyose yakurikije ayo mabwiriza yo kunywa amazi cyane agakora na siporo nyinshi.

Iyo umuntu yirukanse cyane cyangwa agatsikira atabizi ugasanga aravunitse, bamufungira agatambaro ku kaguru noneho bagashaka akantu gakomeye bafungaho ku buryo bigorora imitsi ye neza akamera neza.

Siporo ku muntu ubyibushye ni nziza kubera ko bimugabanyiriza ibinure mu mubiri, bikamurinda kuba yabyibuha cyane bikabije, bikamurinda indwara nyinshi mu mubiri we.

Iyo umuntu yagiye kwa muganga kwivuza, wenda yavunitse, umuganga arabanza akamukoresha umwitozo kugira ngo yumve ahantu ari kubabara, abone uko amuvura agendeye kuri aho hantu hari kumubabaza.

Siporo ni nziza ku muntu uwo ari we wese, kubera ko zimurinda kugira umubyibuho ukabije, cyangwa kurwaragurika cyane, zikamurinda no kuba umubiri we wacika intege cyane.

Iyo umuntu yagannye umuganga aramusuzuma akamenya ibipimo bye byose, uburebure, mu nda, ndetse n'ubugari. Umuganga akabyandika akamuvura yamenye ibipimo bye byose.

Inkweto ni igikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi cyangwa ku muntu uwo ari we wese, mu buryo bwo kugira ngo twirinde umwanda mu birenge byacu.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, yaba umwana cyangwa umuntu mukuru, ndetse n'umusaza, n'umukecuru, kubera ko bigira birinda indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri w'umuntu uwo ari we wese wakoze siporo.

Agatanda ni agakoresho bashyiraho umurwayi utari kubasha kuba yakwigenza cyangwa utari kubasha kuba yakivana aho ari, bakakamushyiraho bashaka kumugeza kwa muganga.

Kunywa amazi meza kandi menshi, ni byiza kubera ko amazi atuma tutarwaragurika indwara nyinshi zo mu mubiri, cyangwa mu nda zitandukanye, nk'impyiko n'izindi zose.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu kubera ko birinda kurwaragurika cyane cyangwa kugira ibinure byinshi mu mubiri.

Iyo umuntu yakoze siporo cyane akumva ntameze neza yayirangije, agorora amaguru ahina ahinura kugira ngo yumve ko nta kibazo yagize.

Umuntu bamushyiraho agatambaro nk'aka kwa muganga igihe yagendaga akavunika cyangwa agatsikira, akumva akaguru ntamerewe neza ahita ajya kwa muganga, bakamushyiraho agatambaro kugira ngo amagufa ye asubire mu mwanya wayo.

Ahantu hari ibyuma nk'ibi, ni ahantu bavurira cyangwa basuzumira abarwayi bafite indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti, sanitiza cyangwa amavuta ya gikotori, ni ibikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi ku bantu bakeneye kwisukura cyangwa kwirinda umwanda ndetse n'indwara.

Kunywa amazi menshi kandi meza ni byiza, kubera ko bituma utarwaragurika indwara zitandukanye zo mu nda nk'impyiko n'izindi zitandukanye.

Kugorora umubiri, amaboko n'izindi ngingo z'umubiri wawe, ni byiza, kubera ko bituma ugororoka, kandi bikakurinda kugira ibinure byinshi, mu mubiri.

Gusuzumisha umwana amaso cyangwa ukayamuvuza, ni byiza kubera ko iyo amaze gukura atayarwaragurika, kuko uba waramukurikiranye akiri muto.

Kwirukanka cyane hari igihe bituma ugira impanuka, ukaba wakwitura hasi, ugakomereka ku mubiri ukababara, bikaba ngombwa ko bakujyana kwa muganga.

Ibikoresho bitandukanye nk'umupira w'amaguru bifashisha bari gukina n'akuma umuganga yifashisha ari gupima abarwayi n'akandi yifashisha ari gupima ku mutima nk'inkorora, ni byiza kubera ko bikenerwa mu buzima bw'abantu.

Iyo wakoze siporo, ukanywa n'amazi, ukarya n'imbuto, ukarya n'imboga, ukarya n'amagi n'inyama z'umutuku, ni intungamubiri ziba ziyongera mu mubiri w'umuntu zimurinda kurwaragurika indwara nyinshi zitandukanye kubera izo mboga yariye.

Igihe uri kugorora umubiri wicara, uhagarara, uzamura amaguru, utambika amaboko, ni ibintu bigufasha mu buzima kubera ko uba uri kugorora umubiri bikurinda kurwaragurika indwara nyinshi mu mubiri wawe.

Kunywa amazi meza kandi menshi cyane ni byiza cyane ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, kubera ko bimurinda kurwaragurika indwara nyinshi zitandukanye zo mu nda.

Kunywa amazi meza kandi menshi ni byiza kuko birinda indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu, nk'impyiko n'izindi zitandukanye ziba mu mubiri w'umuntu.

Siporo ku mwana w'umukobwa ni nziza kubera ko ituma atarwaragurika cyangwa adacika adacika intege cyane.

Hari igihe umuntu akina umupira w'amaguru akavunika, akaba yahura n'undi mukinnyi batabifitemo ubushake akaba yavunika, bikaba ngombwa ko bamugorora, cyangwa bakamuvura, kugira ngo abashe gusubira mu kibuga gukina.

Abaganga cyangwa abayobozi b'ibitaro, iyo bahuriye ahantu bakurikiye umuganga mugenzi wabo, aba ari inyigisho ari kubigisha zo kugira ngo bajye baha serivisi abarwayi babagana neza.

Gukora siporo bituma imyenge y'umubiri izibuka, ugahumeka neza uko ukora siporo unanywa n'amazi, niko ugira n'ubuzima bwiza mu mubiri wawe igihe wayikoze neza.

Aha ni ahantu cyangwa ni icyuma bacishamo abantu bagiye gusuzuma mu mubiri wabo ko nta kibazo bagize cy'indwara ikomeye kugira ngo bayikurikirane abaganga.

Iyo wakoze siporo utamenyereye kuyikora amaguru cyangwa umubiri wawe uravunagurika, ukumva wavunitse, ukumva ntumeze neza kubera ko uba utayimenyereye.

Umuntu ashobora kugenda agatsikira akavunika cyangwa akarwara mu mavi hakazamo amazi, akajya kwa muganga kugira ngo muganga amukurikirane, amenye uko ameze amuvure.

Iki ni igikoresho cyangwa icyuma bacishamo umurwayi bagiye gusuzuma indwara arwaye mu mubiri we cyangwa mu mutwe.

Gukora siporo no kunywa amazi meza asukuye ni byiza kubera ko birinda ibinure byinshi ku bana b'abakobwa bakiri bato ndetse no kurwaragurika.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, yaba umugabo cyangwa umukobwa, kubera ko iturinda kugira ibinure byinshi mu mubiri cyangwa kurwaragurika indwara nyinshi zitandukanye.

Kunywa amazi meza kandi menshi ni byiza kubera ko birinda indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu ndetse no kurwara impyiko.

Siporo ni nziza ku muntu uwo ari we wese, kubera ko, iyo ukoze siporo cyane ukayi, ugakurikiza amabwiriza ya siporo, bituma umubiri wawe imyenge yawo ihumeka neza, ndetse nawe nturwaragurike bikabije.

Siporo ku bana b'abakobwa cyangwa abadamu ndetse n'abagabo, ni nziza cyane kubera ko ibarinda ibinure byinshi mu mubiri ndetse no kurwaragurika indwara zitandukanye.

Agatanda nk'aka usanga bakifashisha kwa muganga cyangwa mu bitaro igihe habaye umurwayi utabasha kwigenza cyangwa hari uwitabye Imana, bakakamushyiraho bagiye kumushyira mu buruhukiro bwo kwa muganga nko muri moruge.

Ababikira ni abantu bakunda gufasha abana cyangwa abantu bakuru noneho abazungu na bo ni abantu bakunda gufasha abana batishoboye, si uko n'abirabura batabafasha ariko usanga babateye inkunga yo kugira ngo babashe kugera ku byo bifuza.

Ibikoresho byo kwa muganga, harimo n'aka gakoresho muganga akoresha agashyira mu matwi kugira ngo abashe gusuzuma umurwayi ndetse n'imashini yifashisha mu gusuzuma areba uko umuntu ahumeka n'ibindi byose, ni ibintu bifasha abantu mu buzima kugira ubuzima bwiza.

Imashini nk'iyi, ni icyuma kwa muganga bakunda gucishamo abantu igihe bagiye gusuzuma indwara bafite mu mubiri wabo nko mu mutwe cyangwa mu mubiri mo imbere.

Imboga cyangwa imbuto ni ibiribwa bikunda gukoreshwa cyane mu bantu, babirya cyangwa babikoramo amasupu kuko bigira intungamubiri nyinshi cyane.

Imboga cyangwa imbuto ni ibiryo byongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, bikanatuma atarwaragurika indwara zitandukanye kubera ko aba yariye intungamubiri nyinshi, harimo n'imboga bituma atarwaragurika.

Siporo ku bategarugori n'abari ni nziza ituma batagira umubyibuho mwinshi ukabije, igatuma n'umubiri wabo utakira indwara zitandukanye, nk'izo ku mubiri ndetse no mu mubiri kubera iyo bari gututubikana baba basohora imyanda iri mu mubiri.

Umuravumba, ni umuti wa kinyarwanda, ukunda kuvura abantu inkorora cyangwa ibicurane ndetse n'izindi ndwara zo ku ruhu zitandukanye.

Iyo ufite indwara y'uruhu nk'ibiheri ku mubiri cyangwa mu maso yawe, ushobora kwisiga aya ma jeri akagufasha mu buryo bwo gukuraho iyo ndwara iri ku mubiri wawe.

Usanga hano harimo imiti yo kwivurisha, cyane cyane ikoze mu bimera y'abana cyangwa abantu bakuru, kugira ngo ibashe kubarinda indwara zitandukanye zo mu mubiri.

Ibyatsi cyangwa ibimera ni byiza kubera ko harimo ibyo abantu dukenera bivurisha cyangwa bakabinywa mu buryo bwo mu byayi n'ubundi buryo butandukanye.

Ibyatsi cyangwa ibimera, bikunda kuvamo imiti ya gakondo cyangwa abavuzi ba gakondo bakunda gukoresha bavura abarwayi.

Ibikoresho nk'uducuma, imiti ya Kinyarwanda iri mu ducupa duteye ukuntu, n'ibikoma ibintu byumye bidameze neza cyangwa bidasa neza bigaragara nk'iby'abantu ba gakondo bakoresha.

Jiri ni isabune dukunda kwifashisha, ikoze mu bikakarubamba, igihe turi kumesa mu mutwe, cyangwa turi gukora isuku ku mubiri wacu.

Igikakarubamba ni icyatsi kivura indwara nyinshi zitandukanye, harimo nk'inzoka cyangwa indwara zo ku ruhu nyinshi zitandukanye.

Ibimera cyangwa ibyatsi n'amashyamba, cyangwa mu ishyamba, ni byiza kubera ko biha ubuzima bwiza ibisimba biba bituyemo byinjiriza iterambere igihugu.

Tangawize ninziza ku muntu udatwite cyangwa udafite umuvuduko w'amaraso kubera ko ifite vitamin c abantu bashobora gukenera mu buzima bwabo.

Imiti cyangwa amasabune yo mu bimera, ni ibikoresho byiza cyane abantu bakenera mu buzima cyangwa ku bantu bafite indwara z'uruhu, bakabikoresha kugira ngo bibashe kubakiza.

Ubutaka ni hantu hamera ibyatsi ibyo ari byo byose bitatewe n'abantu, byo bikizamura bikimeza igihe nta kintu bashyizemo bikimeza.

Ibimera cyangwa ibyatsi byera cyangwa bigashibuka ahantu nko mu ishyamba cyangwa mu mirima, usanga ari byiza kuko bitanga umuyaga n'ubuhumekero bwiza ku binyabuzima.

Isabune ikoze muri avoka, ishobora kurinda indwara z'uruhu kubera ko avoka ifite intungamubiri nyinshi, zikenerwa ku muntu uwo ari we wese.

Imiti ya kinyarwanda ikunda kuba iri mu ducupa nk'utu ngutu cyangwa amasabune ari mu dukarito, abaganga ba gakondo bakunda kwifashisha bavura abantu indwara zo mu mubiri n'izo ku ruhu.

Amajeri cyangwa isabune ikoze mu bimera nk'igikakarubamba, bikunda kuvura indwara z'uruhu cyane ndetse n'izo mu mubiri cyane.

Isabune n'amavuta ni ubwiza cyane cyane ku gitsina gore kuko ari bo bakunda gusa neza cyangwa ubwiza bugaragaraho cyane, iyo biri mu bimera biba byiza cyane kuko birinda n'indwara zo ku ruhu ku bagore nk'ibiheri n'ibindi.

Ibyatsi cyangwa ibiti byo mu mashyamba ni byiza ku buzima bw'ibisimba biba biba muri ayo mashyamba kubera ko bibiha ubuhumekero ubuzima budafite ikibazo.

Iyo ufite indabo iwawe cyangwa aho ukorera, haba hasa neza nko mu busitani bw'aho ukorera cyangwa aho utuye, ni ahantu haba hasa neza kandi haryoheye ijisho.

Ibimera n'ibyatsi ndetse n'indabo, ni ibintu abantu dukenera mu buzima bwa buri munsi, yaba kwivuza cyangwa kubitakisha mu mazu n'ahandi hatandukanye.

Iyo umuntu ajugunye imyanda aho abonye, biteza ikibazo cy'ubuhumekero butari bwiza cyangwa isuku nkeya mu nzu cyangwa n'ahandi hose mu muhanda n'ahandi hagenewe amasuku.

Imiti ya gakondo niyo bakunda gushyira mu macupa ameze nk'aya kugira ngo bayifashishe bari kuvura abarwayi indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu n'izo mu mubiri imbere.

Iyi ni imiti abantu bifashisha bivura indwara nyinshi zitandukanye, ziba zibasiye umubiri wawe.

Ubutaka bukunda kumeramo ibyatsi cyane nta wabihateye cyangwa ngo ahashyire imbuto zabyo, byo ubwabyo bikizamura bikizana.

Imiti yo mu bimera ivura indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri w'umuntu, ndetse n'amasabune yo mu bimera avura indwara z'uruhu ku bantu bazirwaye.

Indabo cyangwa ibyatsi bifite amabara, ni ibintu abantu dukunda kwifashisha turimo gutaka nk'ahantu hari bubere ibirori cyangwa mu mazu no mu masaro ndetse no hanze yaho kugira ngo hase neza.

Ibiti cyangwa ibimera ni ibintu abavuzi ba gakondo bakunda gukoresha, bari kuvura abantu indwara zitandukanye, ziri ku mubiri wabo cyangwa mu mubiri wabo.

Ibimera cyangwa ibiti, ni ibintu abantu bakunda gukoresha, cyangwa bakunda gutera, mu buryo bwo kugira ngo, bajye bagira ubuhumekero bwiza, bitange na, no guhumeka neza.

Jeri ni igikoresho twifashisha mu rugo, cyo gusukura ibintu ndetse n'abantu kugira ngo tugire isuku.

Ibikoresho cyangwa amasabune yo mu bimera, nk'igikakarubamba, ni byiza kubera ko bikiza indwara nyinshi z'uruhu.

Imiti cyangwa amasabune, akoze mu gikakarubamba, cyangwa inyanya, cyangwa indimu, ni ibintu bivura indwara z'uruhu, ku buzima bw'umuntu, ufite ubwo burwayi.

Jeri ni amasabune abantu bakunda gukoresha bakaraba mu mutwe, cyangwa bakaraba umubiri wose mu buryo bwo gusukura.

Imiti cyangwa amasabune ava mu bimera bikunda kuvura cyane cyane indwara z'uruhu n'izo mu nda mo imbere cyane.

Imiti ni ikintu dukenera mu buzima bwa buri munsi igihe tutameze neza mu mubiri cyangwa twarwaye, tukabyifashisha kugira ngo tumere neza.

Ibiti ni ibintu byiza ku buzima bw'abantu n'ibisimba kubera ko bitanga umuyaga abantu bakabasha kuba bahumeka neza ndetse n'ibyo bisimba.

Amasabune cyangwa imiti ikoze mu bimera nk'igikakarubamba, ni ibikoresho bikunda gufasha abantu mu kwivura indwara z'uruhu ndetse n'izo mu mubiri mo imbere.

Ibiti mu ishyamba bitanga ubuzima bwiza ku bisimba biba biba muri ayo mashyamba ndetse no ku bantu baturiye hafi y'iryo shyamba.

Imiti ni ibintu bakenera abantu barwaye, bibafasha kugira ngo bamererwe neza kandi iyo ndwara barwaye igabanuke cyangwa ibagabanyirize ububabare.

Tangawizi ni nziza kubera ko igira vitaminini c abantu bakenera mu mubiri wabo. Ku muntu waba adatwite cyangwa atarwaye umuvuduko.